Imiryango, imiryango ibiri y'inzu z'ubucuruzi aho bacuruzamo ibyuma by'ikoranabuhanga. Ndetse si no kubicuruza gusa ahubwo n'ibyapfuye barabikora, abaturage baza babagana harimo abaje kugura ibishyashya, harimo abaje gukoresha, ndetse harimo n'abakozi bari kubahereza bari kubakorera ibyo bashaka.

Abaturage b'i Musanze bicaye aho bafatira ikawa, aho nk'aho twita kofi shopu. Harimo abicaye barimo kuririmba kumva imiziki abandi bari kuri telefone, abandi mu bigaragara bahugiye muri telefone bari gukora akazi kabo ka buri munsi, ndetse bafata n'icyo kunywa ikawa.

Inzu zigeretse zikorerwamo imirimo itandukanye， hari aho babitse amafaranga ndetse naho bakora imigati bakanayicuruza， imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'imodoka， ndetse ibisate bibiri by'umuhanda bikaba bitandukanijwe n'indabo， hakaba hari n'abagenzi barimo kugenda mu muhanda， imodoka iparitse imbere y'izo nyubako， ndetse n'umurinzi wazo.

Ibyumba bikorerwamo umwuga w'ubudozi aho hari abatayere cyangwa abadozi benshi bari ku mamashini bicaye barimo kudoda, bakaba bacuruza n'ibitambaro by'amatisi ndetse n'ibitenge bigiye bimanuka, bimanikwa ku biti ahongaho.

Aho imodoka ziparika ndetse hari n'abacuruzi barimo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibikoresho by'isuku byo kujyana mu bwiherero. Ibikoresho by'isuku byo kwambika abana kugira ngo batiyanduza cyangwa bakitaho imyanda. Hari udutambaro two guhanaguza ibyombo, amasahani ndetse no ku meza, hari ibikapu byo gutwaramo ibintu wahashye ndetse n'abagenzi baje gutega ndetse no guhaha.

Abaturage bari mu isoko aho bamwe barimo gucuruza abandi barimo guhaha. Isoko ry'ibiribwa aho turi kubona harimo:imiceri, za kawunga, ibiribwa byose bikenewe birimo harimo ibikoresho byo mu rugo nk'ibikombe, amasahane, amabase n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ibicuruzwa harimo imigozi bicomeka Telefone, harimo imfasha kumva amajwi bambara mu matwi bumva indirimbo bacomeka muri Telefone ndetse harimo n'ibitwe by'imigozi ya Telefone n'ibindi byinshi bitandukanye bifashwa mu muziki.